Imiti myiza cane dukundaga gukoresha mu buhinzi ,mu Majaruguru dutunzwe cane n'ubuhinzi , iyo twayikoresheje tubonaga umusaruro mwinshi cane.

Ndabona ahantu hari imiti, imiti ikoreshwa mu :buhinzi mu fumbire mu gutera igihe ibihingwa byagaragayemo indwara. Iyo miti ikaba idufasha mu gihe turimo dukora imirimo y'ubuhinzi.

Ibihingwa byiza cane dukundaga guhinga mu majaruguru, umugabo ugaragara ari mu buhinzi, aho ubuhinzi budufashaga kwiteza imbere ndetse no kugira imibereho myiza cane.

Umuti dukundaga gukoresha mu buhinzi bwacu bwa buri munsi, aho dukundaga kuwukoresha kugira ngo tubashe kubona umusaruro mu buhinzi tuba twakoze.

Umugabo ukora umurimo mwiza cane, umurimo wo gutera umuti ibihingwa kugira ngo umusaruro uzabashe kuboneka mwinshi cane.

Umuti dukundaga gukoresha mu buhinzi, umuti udufashaga kongera umusaruro, maze umusaruro uvuye mu buhinzi bu ukaduteza imbere mu buzima busazwe.

Imiti dukundaga gukoresha mu buhinzi, ubuhinzi akaba ari bwo bukundaga kudutunga cane mu majaruguru, bukaba budutezaga imbere cane, tukagira n'imibereho myiza cane.

Umuti mwiza cane dukundaga gukoresha mu majaruguru, aho majaruguru dutunzwe n'ubuhinzi cane. Iyi miti ikaba idufashaga kugira umusaruro mwinshi cane.

Imiti myiza cane, imiti dukoreshaga mu buhinzi. Imiti z'inyongeramusaruro zidufashaga kongera umusaruro maze tukiteza imbere tukabona umusaruro mwinshi cane.

Abagabo babiri bakora umurimo w'ubuhinzi, aho bakoresha umuti imiti dukoreshaga mu buhinzi, kugira ngo tubashe kubona umusaruro mwishi cane.

Ubuhinzi bwiza cane aho mu majaruguru dutunzwe n'ubuhinzi, ubuhinzi budutezaga imbere tukabona amafaranga tukagira imibereho myiza cane.

Umuti dukoreshaga mu buhinzi mu majaruguru duhingaga cane ubuhinzi budutunze cane, iyi miti ikaba idufashaga kugira umusaruro mwinshi cane.

Umuti dukundaga gukoresha mu buhinzi udufasha kongera umusaruro, tugukoresha mu buhinzi kugira ngo twiteze imbere.

Imiti nziza cane dukundaga gukoresha mu buhinzi kugira ngo tubone umusaruro, ubuhinzi budufashaga kwiteza imbere mu mibereho yacu ya buri munsi.

Ibiribwa biturukaga mu mazi amafi aho dukundaga kubirya tukabasha kugira imibereho myiza cane ndetse tukagira n'ubuzima bwiza cane.

Ibiryo byiza cane, ibiryo biturukaga mu biyaga aho mu Majyaruguru dufite ibiyaga bya Ruhondo ndetse na Burera, bikaba bidufashaga kubona ibiryo bituma tugira imibereho myiza cane.

icuzi ciza cane, mu cuzi bororeragamo amafi, amafi turyaga maze tukagira ubuzima bwiza, ndetse bikadufasha kugira imibereho myiza cane.

Ibiryo byiza cane, ibiryo dukundaga kubona biturutse mu mazi, bidufasha kugira imibereho myiza cane ndetse bikundaga kuryoha cane.

Ibicane : Ibiribwa bituruka mu biyaga, aho mu majaruguru dukundaga kubibona mu biyaga bya Ruhondo na Burera, bidufashaga kugira ubuzima bwiza ndetse n'imirire myiza cane.

Ibiryo byiza cane, ibiryo biturukaga mu mazi aho dukundaga kubikura mu majaruguru muri Burera na Ruhondo, bikaba bidufashaga kugira ubuzima bwiza cane.

Ifoto igaragaza ibiribwa, ibyo biribwa bikaba bituruka mu mazi, aho dukundaga kubikoresha kugira ngo tugire imibereho myiza, ndetse n'ubuzima bwiza.

Abantu benshi cane， barimo bakora umurimo w'uburobyi，uburobyi budutunze butuma twiteza imbere， ndetse tukabona n'ibyo kurya bivuye mu mazi，bituma tugira imibereho myiza cane.

Ibihingwa byiza cane, ibihingwa by'ibinyomoro, aho mu majaruguru dukundaga kubihinga, bikaduha umusaruro ndetse tukiteza imbere cane.

Ibiti bigize ishamba， aho mu majaruguru hakundaga kugaragara ibiti byinshi cane， ibyo biti bidufashaga kugira imibereho myiza， ndetse tukabona n'umwuka mwiza duhumeka.

Ubuhinzi bw'ibitoki ndetse n'amashaza, aho dukundaga kubihinga cane mu majaruguru, bikaduha umusaruro mwinshi cane.

Ubuhinzi bwiza cyane, ubuhinzi bw'ibirayi aho mu majaruguru dutunzwe cane n'ubuhinzi bw'ibirayi, buduhaga umusaruro mwinshi cyane ndetse tukabona n'amafaranga.

Ubuhinzi bwiza cane ubuhinzi bw'ibirayi, dukundaga guhinga mu majaruguru, bukadufasha kugira imibereho myiza cane.

Ubuhinzi bwiza cane, ubuhinzi bw'ibirayi, aho mu majaruguru dukundaga kubukora kugira ngo bubashe kuduha umusaruro twiteze imbere.

Ikimera ciza cane, igihingwa kidufashaga kubona umusaruro, umusaruro tukawujana ku masoko, maze tukiteza imbere cane.

Igihingwa k'ibireti aho dukundaga kugihinga mu majaruguru. Ibi bireti bivamo umuti batera udusimba two mu nzu, turabihingaga bikaduha amafaranga tukiteza imbere.

Igihingwa c'ibitoki dukundaga guhinga mu majaruguru, ibitoki bivagamo umutobe ndetse bikavamo n'ibyo kurya, bikaduha n'amafaranga tukiteza imbere.

Ibihingwa byiza cane dukundaga guhinga mu majaruguru, aho bidutezaga imbere cane, ndetse bigatuma tugira imibereho myiza cane.

Ubuhinzi dukundaga gukora mu majyaruguru, ubuhinzi bwa karoti, karoti zidufashaga kwiteza imbere tukabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya.

Umurimo w'ubuhinzi, umurima mwiza cane ugaragara wateguwe neza cane, aho dukundaga gukora ubuhinzi, cane mu majaruguru kugira ngo buduteze imbere.

Ndabona ubuhinzi bwiza cane, aho dukundaga kububona aho abantu bahingaga kugira ngo bagire imibereho myiza, babone umusaruro ubateza imbere mubu buzima bwabo.

Igihingwa ciza cane, igihingwa c'ibigori, aho dukundaga guhinga ibigori bidufashaga kugira ubuzima bwiza, ndetse tukiteza imbere mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Igihingwa cyiza cane, igihingwa dukundaga guhinga mu majaruguru, aho kidufashaga kwiteza imbere tukakijana ku masoko atandukanye, tukiteza imbere mu buzima bwacu bwa buri munsi

Abagore babiri abategarugori aho bishimye cane barimo bakora umurimo w'ubuhinzi. Umurimo w'ubuhinzi udutezaga imbere cane ndetse tukabona n'amafaranga.

Umutegarugori wishimye cane， wishimiye umusaruro，aho arimo asarura ibirayi， ibirayi dukundaga guhinga mu majaruguru cane.

Ndabona abantu barimo basarura bakora imirimo y'ubuhinzi. Ibasarura ibihingwa twita ibireti bishimye cane. Ibyo bihingwa bikaba bidufasha kubona amafaranga mu buzima bwa buri munsi.

Ibigori byiza cane, ibigori bigaragara ko byafumbiwe neza cane, ibigori dukundaga guhinga mu majaruguru bikadutezambere cane.

Ibirayi byiza cane aho dukundaga kubibona mu majaruguru. Mu majaruguru dukundaga gukora ubuhizi bw'ibirayi bukaduteza imbere cane, ndetse tukagira n'imibereho myiza cane.

Uyu ni umurima ugaragaramo ibinyomoro ,ibihingwa by'ibinyomoro ,ibyo bihingwa bikaba bigaragara neza, bimeze neza, ndetse bikaba biteye amabengeza.

Ndabona ubuhinzi bwiza cane! Ubuhinzi bugaragara neza cane! Aho dukundaga kububona ahantu habaga e imisozi, kugira ngo abantu bahinge, biteze imbere mu buzima bwabo.

Umubyeyi wishimye cane urimo akora imirimo yo kuhira. Aho twuhiraga imyaka, imyaka tuba twarakoze mu buhinzi. Ubuhinzi budukundaga kuduteza imbere cane.

Igihingwa cyiza cane, umusaruro ugaragara iyo wateye ibihaza, ibihaza dukundaga guhinga mu majaruguru aho biryohaga cane.

Igihingwa ciza cane c'amateke, umusaruro ugaragara iyo twakunze guhinga amateke, bikaba ari ibiryo biryohaga cane, bikaba bidufasha mu buzima bwacu.

Umugabo ugaragara yishimye cane, arimo akora umurimo w'ubuhinzi bw'ubwatsi bw'amatungo, ubwatsi bw'amatungo butangaga amafaranga abantu bakundaga kugura cane.

Umutegarugori wishimye cane, ugaragaza umusaruro w'igihingwa c'amashu, aho mu majaruguru dukundaga kubihinga cane, bikadufasha kwiteza imbere.

Voka nziza cane turyaga mu biryo no mu majaruguru aho dukundaga kuzitera, kugira ngo tugire ubuzima bwiza cane kandi bumeze neza.

Umugabo uri mu buhinzi ubuhinzi bw'ibirayi, ibirayi dukundaga guhinga mu majaruguru biduhaga umusaruro mwinshi cane.

Abagabo n'abagore bahuriye hamwe barimo bakora umurimo w'ubuhinzi aho umurimo w'ubuhinzi wakundaga kuduteza imbere cane ndetse tukagira imibereho myiza cane.

Ibiribwa byiza cyane aho ibyo biribwa bidufashaga kugira ubuzima bwiza cyane ndetse tukiteza imbere mu mibereho myiza, iyo twakoze umurimo wimbuto wo guhinga imbuto.

Ibiribwa byiza cane. Imbuto dukundaga guhinga mu majaruguru aho zidufashaga kubona umusaruro, tukabona ibyo kurya, tukagira ubuzima bwiza, bidatinze ndetse tukaja no ku masoko.

Igihingwa ciza cane dukundaga guhinga mu majaruguru, igihingwa c'avoka kiduhaga umusaruro mwinshi cane, tukabona amafaranga ndetse tukanazirya mu rugo.

Ubworozi bw'intama, ubwo dukundaga gukora mu majaruguru cane cane, ubworozi budutezaga imbere, butumaga tugira amafaranga ndetse tukibeshaho cane.

Abantu abagore n'abagabo bagaragara bakora umurimo w'ubuhinzi, ubuhinzi bw'ibigori ubuhinzi dukundaga gukora mu Majaruguru cane.

Ndabona ifoto nziza cyane igaragaza ibihingwa, ibimera, ibyo bihingwa bikaba bidufasha kugira ngo tugire ubuzima bwiza, ndetse n'iyo twabihinze tukaba tugira amahirwe yo kubigurisha, kugira ngo twiteze imbere.

Ibiti ndetse n'abantu, aho dukundaga gutera indumburamusaruro mu majaruguru kugira ngo tubashe kubona umukamo, ndetse no kubona umusaruro mwinshi cane.

Ikimera ciza cane， ikimera kiduhaga ibyo kurya， tukagira imibereho myiza， tukagira ubuzima bwiza ndetse tukabasha no kubigurisha，kugira ngo tubashe kwiteza imbere cane.

Umugabo ugaragara ari mu murima , aho umurima uteye mo icayi , icayi dukundaga gutera mu Majaruguru kidufasha kwiteza imbere kubona amafaranga tukagira imibereho myiza cane.

Ndabona umubyeyi uri mu buhinzi, aho dukundaga guhinga cane kugira ngo tuzabone umusaruro udutezi imbere ndetse twiteze imbere twebwe ubwacu.

Ubuhinzi bw'imbuto, ubwo buhinzi bukaba bukundaga kuduha umusaruro ndetse tukiteza imbere cane tugira ubuzima bwiza cane.

Imbuto nziza cyane, imbuto duhinga ndetse zikaduha umusaruro, aho tuzijyanaga mu masoko atandukanye zikadufasha kwiteza imbere mu buzima bwacu.

Abagore babiri bishimye cane barimo bakora umurimo w'ubuhinzi, umurimo w'ubuhinzi udufashaga kwiteza imbere ndetse no kugira imibereho myiza cane.

Ndabona ubuhinzi bwiza cane bugaragara bw'indabyo ,ubuhinzi bufasha gutuma ahantu hagaragara neza cane ,ahantu heza cane rwose hameze neza, hatatse inzu hamezeze neza cyane.

Igihingwa ciza cane dukundaga gukoresha, mu gihe turimo duteka kugira ngo bibashe kuryosha ibiryo, muri make tubyita indyoshandyo.

Ibirayi byiza cane. Ibirayi bivaga mu buhinzi. Mu majaruguru dukundaga guhinga igihingwa c'ibirayi, kidutezaga imbere cane ndetse tukagira n'imibereho myiza cane.

Igihingwa c'ibijumba dukundaga guhinga mu majaruguru, aho kidufashaga kwiteza imbere mu mirire ndetse no kubona amafaranga, yo kwiteza imbere mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Abagore, abategarugori b'u Rwanda aho dukundaga guhinga icayi, bari mu murimo w'ubuhinzi. Umurimo w'ubuhinzi udutezaga imbere cane, mu majaruguru dukundaga guhinga icayi cane.

Umusaruro mwinshi cane guvuye mu buhinzi bw'inanasi, ubuhinzi bw'inanasi bukorwa mu majaruguru, budufasha kubona amafaranga ndetse bukadufasha no kubona imitobe yo kunywa mu rugo iwacu.

Ibitunguru byiza cane dukundaga guhinga mu majaruguru, aho biduha umusaruro tukabigurisha ku masoko, bikadufasha kugira imibereho myiza cane.

Ibihingwa byiza cane, ibihingwa by'ibijumba mu majaruguru dukundaga guhiga cane tukagira imibereho myiza ndetse tukiteza imbere cane.

Ababyeyi bahuriye hamwe, bahuriye hamwe bakora umurimo w'ubuhinzi, ubuhinzi budufasha kwiteza imbere, ubuhinzi bw'amashu, aho dukundaga kubukora cane mu majaruguru.

Abagore babiri n'umugabo umwe aho bagaragaza umusaruro w'amashu, aho mu majaruguru dukundaga kuwuhinga cane. Umusaruro mwiza cane uduteza imbere.

Igihingwa cyiza cane igihingwa c'igitoki mu majaruguru dukundaga gukora aho kiduhaga umukamo w'umutobe ndetse n'amafaranga adufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Igihingwa c'ipera aho dukundaga guhinga amapera mu majyaruguru, kugirango tubashe kugira ubuzima bwiza ndetse no kwiteza imbere cane mu buzima bwacu.

Umutegarugori wishimye cane urimo ukora umurimo w'ubuhinzi ,aho uwo murimo w'ubuhinzi udutezaga imbere cane.

Ndabona ifoto nziza cyane iriho imbuto z'ibirayi. Iriho ibirayi byiza cyane dukura mu bihingwa. Ibi bikaba bidufasha kugira imibereho myiza cyane ndetse bikaba bidufasha no kwiteza imbere.

Iguriro, isoko dukundaga guhuriramo cane iyo tugiye guhaha ibiribwa, ibyo dukeneraga mu buzima bwacu bwa buri munsi, tubashe kugira imibereho myiza cane.

Umubyeyi ugaragara yishimye cane aho ari mu buhinzi, ubuhinzi budufashaga kwiteza imbere mu buzima bwacu ndetse mu mumajaruguru dukundaga guhinga cane.

Umubyeyi wishimye cane urimo ukora imirimo y'ubuhinzi, ubuhinzi bw'ibigori, ubuhinzi dukundaga gukora mu majaruguru cane bukaduha umusaruro mwinshi cane.

Igihingwa dukundaga gukora mu majaruguru, igihingwa c'urusenda aho urusenda rudufashaga kugera, kwiteza imbere ndetse no kugira imibereho myiza cane.

Ababyeyi benshi cane abagore n'abagabo aho bari mu murimo w'ubuhinzi, ubuhinzi dukundaga gukora mu majaruguru ubuhinzi bw'icayi budufashaga kwiteza imbere cane.

Igihingwa ciza cane, igihingwa ca voka aho mu majaruguru dukundaga kugitera cikaduha umusaruro tukajana ku masoko atandukanye.

Igihingwa c'inanasi aho ico gihingwa gikundaga guhingwa mu majaruguru kikaba kiduha umusaruro tukiteza imbere mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ubworozi bw'amatungo magufiya, ubworozi bw'inkoko, aho dukundaga kubukora cane kugira ngo buduteze imbere, ndetse tubone amagi ndetse n'inyama.

Igihingwa c'ibisheke, aho ibyo bisheke bidufashaga kubona amafaranga，dukundaga kubihinga mu majaruguru bikaduha umusaruro ndetse tukiteza imbere.

Ubuhinzi dukunda gukora mu Majyaruguru, ubuhinzi bw'ibijumba, ibijumba cyane biduhaga umusaruro, ndetse tukiteza imbere cyane.

Imbuto nziza cane, imbuto dukundaga guhinga mu buhinzi, aho zitumaga tugira ubuzima bwiza ndetse n'imibereho myiza cyane, tukiteza imbere tunazigurisha.

Igihingwa ciza cane, igihingwa c'ipera, aho dukundaga kugihinga mu majaruguru, bikaduha umusaruro ndetse n'amafaranga yo kwiteza imbere.

Ifoto nziza cane igaragaza ibihingwa byiza bya karoti ,ibihingwa bidufasha mu mirire, abahinzi bakabihinga bashaka kwiteza imbere cane, mbese bakabikora kugira ngo bibahe umusaruro biteze imbere.

Igihingwa ciza cane, igihingwa c'ummbati dukundaga guhinga mu majaruguru, ahoumwumbati uvagamo ifu y'ubugari, ndetse tukaba twanawuteka busanzwe mu buzima bwacu.

ikimera ciza cane c'igihwagari dukundaga guhinga mu majyaruguru. Iki kimera kikaba kiduha amavuta dukoreshaga turi guteka mu buzima bwacu.

Ibigori byiza cane bituruka mu buhinzi aho mu majaruguru, dukundaga guhinga igihingwa cy'ibigori kikaduha umusaruro, tukiteza imbere cane.

Ndabona umusaruro mwinshi cyane, aho dukunda gusarura imbuto z'amasaka ndetse ibi bikaba bidufasha mu buhinzi bwacu bwa buri munsi no kwiteza imbere.

Ifoto nziza cane igaragaza umubyeyi ,umubyeyi aho acuruza imbuto, imbuto zikoreshwa mu buhinzi dukundaga kubibona ahantu bacuruza amadepo ,bagacuruza imbuto bifashisha mu buhinzi.

Imbuto nziza cane, imbuto dukundaga guhinga mu majaruguru, aho ubuhinzi budufashaga kwiteza imbere, mu mirimo yacu ya buri munsi.

Ibishimbo byiza cane; ibishimbo dukundaga guhinga mu majaruguru, aho bidutezaga imbere ndetse bikaduha umusaruro mwinshi cane.

Igihingwa c'icayi igihingwa cyiza cane igihingwa kiduhaga umusaruro n'amafaranga tukiteza imbere tukagira imibereho myiza cane.

Imbuto nziza cane, imbuto tubonaga mu majaruguru aho dukundaga guhinga ibishimbo bikaduha umusaruro, tukiteza imbere cane mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ababyeyi bacuruza imbuto nziza cane y'ibishimbo. Imbuto dukundaga gutera mu majaruguru, aho heraga ibishimbo byinshi cane tukabona umusaruro utubeshaho.

Igihingwa cy'ingano, igihingwa dukunda guhinga mu Majyaruguru, aho kiduha umusaruro mwinshi cyane tukiteza imbere, ndetse tukagemura no ku masoko.

Imbuto zitandukanye: ibishimbo, ibigori, amasaka, amajeri, aho dukundaga kubihinga mu majaruguru nk'umusaruro ugaragara cane mu majaruguru.

Igihingwa c'ingano, igihingwa gikundaga kugaragara mu majaruguru, aho dukundaga kubihinga kugira ngo biduteze imbere cane, tunagire imibereho myiza cane.

Umusaruro w'imbuto, ibishyimbo, ibisimbo dukundaga gutera mu majaruguru. Uyu ni umusaro ugaragara mu buhinzi aho ubuhinzi budufasha mu mibereho yacu ndetse no kwiteza imbere.

Ndabona ibihingwa biri imbere yanje, imbuto nziza cane zigaragara neza cane rwose, zirituma ubuhinzi butera imbere cane, bukanoga ndetse bugateza imbere abantu.

Imbuto nziza cyane, imbuto dukunda gukura mu buhinzi, iyo twakoze ubuhinzi, aho ubuhinzi bukunda gukoreshwa mu Majyaruguru cyane.

Imbuto nyinshi cane, imbuto zigaragaza umusaruro, aho umusaruro duva mu buhinzi, ubuhinzi dukundaga gukora majaruguru cane kugirango twibashe kwiteza imbere mu buzima bwacu cane.

Ubunyobwa bwiza cane, ubunyobwa turyaga, aho budufasha kugira ubuzima bwiza, bukadufasha kubaho neza cane.

Ababyeyi barimo basarura umusaruro w'ibirayi, aho dukundaga kubihinga mu majaruguru ndetse n'ibindi byinshi bidufashaga kwiteza imbere.

Ndabona ifoto igaragaza ibihingwa byiza cane , ibihingwa dukoresha mu buzima busanzwe aho duhinga kugira ngo twiteze imbere mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Imbuto nziza cyane, dukunda gukoresha mu buhinzi, imbuto y'ibishyimbo, abo mu majyaruguru dukunda guhinga ibishyimbo cyane kugira biduteze imbere.

Ikimera ciza cane dukundaga guhinga mu majaruguru. Ikimera kiduha umusururu tukakiza abantu iyo baje kudusura.

Amasaka igihingwa dukundaga guhinga mu majyaruguru, aho bivagamo umusururu dusangira twakoze ibirori ndetse tukayagurisha tukiteza imbere.

Ifoto nziza cane igaragaza umuntu ndetse n'inyamaswa, amatungo barimo bakingira kugira ngo ayo matungo abeho neza ndetse abashe no kugira ubuzima bwiza.

Ubworozi bwiza cane, ubworozi dukundaga gukora mu majaruguru aho budufashaga kubona inyama ndetse tukajana no ku masoko tukiteza imbere cane.

Ubworozi bw'amatungo magufiya, ubworozi bw'inkwavu, aho inkwavu ziduhaga inyama ndetse n'amafaranga tukiteza imbere cane.

Umwari ugaragara hamwe n'inka, arimo akora umurimo w'ubuvuzi bw'amatungo, abo mu majaruguru dutunzwe cane n'ubworozi, budufashaga kubona umukamo ndetse no kwiteza imbere cane.

Umuti ukoreshwaga mu buvuzi bw'amatungo aho mu majaruguru dukundaga korora ndetse tukagira ubworozi buduteza imbere tukabona umusaruro tukiteza imbere cane.

Nje ndabona umubyeyi. Umubyeyi uri hagati y'amatungo, amatungo twororera mu rugo inka, ihene akaba aragiye. Ahantu haragiye hameze neza cane akaba yitaye kuri ubwo bworozi bwe.

Intama nziza cane, dukundaga korora mu majyaruguru, aho zidufasha mu iterambere cane cane no kubona ifumbire mu buzima bwacu.

Ubworozi bw'ingurube, ingurube nziza cane aho ziduteza imbere, tukabona inyama ku bw'imirire ndetse tukabona n'ifumbire dufumbiraga mu bihingwa byacu.

Umugore ugaragara akora umurimo w'ubworozi, ubworozi bw'amatungo magufiya, aho ubworozi bw'amatungo magufiya buduhaga umusaruro ndetse tukiteza imbere cane.

Ubworozi bw'amatungo magufiya. Ubworozi dukundaga gukora cane. Ubworozi bw'inkwavu, mu Majaruguru tukaba dukundaga kubworora kugira ngo buduteze imbere cane.

Ubworozi bw'amatungo magufiya, ubworozi bw'inkoko, inkoku ziduhaga umusaruro mwinshi cane tukiteza imbere.

Ubworozi bw'amatungo magufiya, ubworozi dukundaga gukora mu majaruguru bukaduha amagi ndetse n'inyama zo kurya tukiteza imbere cane mu mibereho yacu ya buri munsi.

Ndabona ahantu heza cane hagaragaza urwuri rurimo inka boroye cane, dukundaga kororera inka aho izo nka zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo twiteze imbere.

Ubworozi bw'amatungo magufiya, inkoko, aho inkoko ziduhaga amagi, ndetse tukabona n'inyama turya, zikaduteza imbere, zikaduha n'umusaruro n'ifumbire.

Ubworozi bw'amatungo maremare aho dukundaga korora inka cane cane, kugira ngo ziduhe umukamo, inka zikaba zidufashaga kwiteza imbere no kubona ifumbire.

Inyoni nziza cane dukundaga kubona mu mashamba aho ziba zitatse ibyiza nyaburanga, zikanogera amaso ndetse tukishima cane.

Inyamaswa nziza cane ,inyamaswa zikundaga kugaragara mu mashamba adatuwe n'abantu ,aho kuzireba zidushimishaga cane tukumva tunezerewe cane.

Inyamaswa nziza cane inyamanswa dukundaga kubona. Mu mashamba ahadatuwe n'abantu aho zidushimishaga ndetse tukanezerwa cane.

Inyoni nziza cane inyoni z'ibisiga, dukundaga kubona mu majaruguru, aho ziryoheraga amaso ndetse zikatunezeza cane.

Inyoni nziza cane zikundaga kugaragara mu bice byo mu majaruguru aho zishimishaga amaso ndetse tukumva turanezerewe cane mu mubiri wacu no mu mutima.

Inyoni nziza cane dukundaga kwita ibisiga, dukundaga kubibona mu mashamba, bishimishaga amaso ndetse tukanezerwa cane.

Inyoni nziza cyane dukundaga kubona ahantu hari amashyamba ndetse n'ibiti, iyo izo nyoni tuzireba twumvaga twishimye cane cane rwose.

Inyoni nziza cane dukundaga kubona hari amashamba ndetse n'ibiti byinshi cane aho izo nyoni ziduteraga ibyishimo mu mutima wacu.

Inyamaswa nziza cane, inyamaswa zikundaga kuba mu ishamba, amashamba meza cane aho ziryoheraga amaso iyo turi kuzireba.

Inyamaswa nziza cane dukundaga kubona mu mumashamba aho tuzirebaga tukishima cane ndetse tukanezerwa cane mubuzima bwacu bwa buri munsi.

Ibi bikaba bigaragaza inyamaswa, inyamaswa ziba mu ishyamba. Iyo nyamaswa ikaba ari inyoni imeze neza cane, iyo nyoni ikaba isangwa mu ishyamba.